Umwana w'umuhungu uri kuvoma amazi, wambaye umupira w'umuhondo urimo ibara ry'umutuku mu gatuza, wambaye ikabutura y'umukara, ari kuvomera mu kabido k'umweru afashe kuri robine, hirya ye hariyo umuntu wambaye ishati ya kake uteze agatambaro k'ubururu.

Abantu bahahaga basa nk'aho hari ikibazoba kugeza ku bandi cyangwa bo bari kuganira hagati yabo, inyuma icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, Official lunch of the Rwanda National child Protection Case Managerment Framework.

Idarapo ry'igihugu rigizwe n'amabara atatu: ubururu, umuhondo, icyatsi. Umubare munini w'abana bambaye na amashati y'ubururu bwerurutse, harimo n'uwambaye ubururu bwijimye ndetse harimo n'umuhungu wambaye kaki.

Mu icyumba cy'inama kirimo insakazamashusho y'umukara, harimo intebe z'umukara n'amabara ya shokora, hicayemo umuntu wambaye umupira w'icyatsi w'amaboko magufi, ku ruhande rw'iburyo hari uwambaye ishati irimo amabara ya shokora.

Umuntu wicaye ku gitambaro kivanga avanze amabara, harimo n'amabara y'umutuku, umuhondo ,azigitse amaguru ,yifashe mu afashe akaboko k'iwe k'ibumoso gafashe mu mutwe ,ak'iburyo kambaye agakomo k'umukara ,yambaye umupira w'ubururu umanuyemo uturongo tw'umweru.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi, wambaye amadarubindi, imbere ye hari icyirori, uburoso, robine ndetse n'ibisukika biri mu ibara ry'ubururu.

Abamama batatu, uwo ku ruhande rw'ibumoso yambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare yamabaye n'amaherena, uwo hagati yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'amaherena, uwo ku ruhande rw'iburyo yambaye umupira w'amaboko maremare w'ubururu bwererutse, inyuma yabo hari igihu.

Higanje abantu bari ababyeyi bakuze, bicaye ahantu hamwe, harimo uwambaye umwembi usa move n'agatambaro karimo amabara, hari intebe z'umweru, harimo n'uwambaye ingofero idoze mu budodo y'ubururu n'umweru.

Abantu bari kuvura bafite igikoresho cy'umukara cyifashishwa mu kuvura bambaye ubururu bwerurutse udupfukamunwa tw'ubururu bambaye ga z'umweru bari mu cyumba cy'umurwayi.

Abantu batatu bari kugendana uruhande rw'ibumoso harimo wambaye ipantaro ya kake n'ishati ya buresiyeri, mo hagati yambaye ipantaro y'ikoboyi iri mu ibara ry'ubururu n'ishati y'ikoboyi iri mu ibara ry'ubururu, ku ruhande rw'iburyo yambaye ipantaro y'ikoboyi mu ibara ry'ubururu n'umupira w'umweru, hepfo yabo hari jaride na ruguru yabo hari jaride ndetse n'inzira igabanyijemo.

Intebe zitondetse ku murongo ziriri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru wijimye zicayeho abantu batandukanye higanjemo abambaye imipira y'imahondo y'amaboko magufi ndetse n'ambaye ubururu bwererutse bw'amaboko magufi ndabona mu idirishya inyuma icyezezi cyi'izuba.

Imboga ziri mu mabara atandukanye, higanjemo izisa icyatsi ndetse n'iz'umuhondo ndetse n'umutuku. Harimo pome, harimo pavuro ziri mu mabara abiri; iy'umuhondo ndetse n'iy'umutuku, harimo kokombure, harimo n'amaronji.

Isoko ricuruza imiti ya Kinyarwanda, harimo amacupa menshi yiganjemo afite imifuniko y'umukara ndetse n'umutuku, harimo umuntu uri gucuruza yambaye agatambaro k'umweru mu mutwe igihe uru kugura yambaye ishati yijimye irimo uturongo tumanuye.

Icupa ririmo umuti, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda umuravumba, hashushanyijeho ibimera biri mu ibara ry'icyatsi ari wo muravumba, n'andi magambo yandikishije ibara ry'umukara atagaragara ari mu nyuguti ntoya.

Amacupa avangavanze amabara, yiganjemo amabara y'icyatsi, ndetse n'amabara y'umukara, imifuniko y'amacupa yiganjemo amabara y'ubururu, ndetse n'icyatsi, inyuma hari umuntu wambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse, umupira w'amaboko magufiya w'umweru.